Umukozi w'ikigo gishinzwe ubuzima ku isi ari mu cyumba ari kumwe n'umuntu w'igitsina gore imbere yabo hari udukarito dufunze neza.

Abagore babiri bateruye agafuka, abandi bagabo bamaze gutereka udufuka badutondetse, turimo ibintu byifashishwa mu kwita ku barwayi.

Umuganga yambaye agapfukamunwa ari gutera umudamu urushinge ku kuboko kwe.

Umuntu ari kuvoma amazi kumugezi inyuma ye hari ibimera by'ibyatsi, yazanye kuvomesha ijerekani n'akavido, ni amazi akoresha.

Umubyeyi ari kwa muganga ateruye umwana, umuganga ari kwita kuri uwo mwana amuha umuti akwiye kugira ngo abashe gukira.

Umuganga ari gutera urushinge rurimo umuti, umurwayi w'icaye ku ntebe, yateze akaboko ke kugira ngo bamutere urwo rushinge.

Ishusho iriho amagambo agaragaza inama yabaye Nyafurika ivuga ku buzima umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane, harebwaga ku iterambere ry'abaturage mu guhabwa ubuvuzi bunoze no kwirinda gutanga serivisi mbi.

Umwana yicaye ku ntebe, yarambuye ukuboko kwe yazamuye umwenda, umuganga ari kumutera urushinge.

Umubyeyi yagiye kuvoma amazi ku mugezi ateze ijerekani, iruhande rw'uwo mugezi hari inyandiko yanditseho isobanura isuku y'amazi mu Rwanda.

Ikigo cyita ku buzima ku rwego rw'si, iyi shusho igaragaza ikirango cyayo kigaragaza uburyo ari ikigo kibungabunga amagara y'abantu mu isi yose.

Abantu benshi bagannye serivisi zo kwa muganga aho basuzumira, hari abagabo, abagore, abahetse abana ndetse iruhande rw'a aho hantu hashinze ibendera ry'igihugu cy'u Rwanda.

Abantu babiri bari ku ku mugezi bafite ibivomesho, hari undi uri gufungura amazi, bari kunywesha amazi ibiganza byabo.

Abajyanama b'ubuzima bari kumwe n'umuganga ndetse n'umuyobozi wambaye ikositimu ry'umukara, bari kuvuga ku buzima ndetse n'uburyo bateza imbere ubuvuzi, bagatanga serivisi nziza ku barwayi.

Kwita ku bakuze, ababyeyi babiri mu myambaro myiza no mu marinete bambaye, inyuma yabo baherekejwe n'abana babo bamwenyuye kubwo kuganira ku byo kwita ku bakuze ku bageze mu zabukuru no kubasheshe akanguhe.

Umuganga ari gusuzuma umubyeyi utwite, ari kugira ngo amenye niba ubuzima bw'umwana atwite bumeze neza, nta kibazo afite.

Abantu baricaye mu cyumba, imbere yabo hateretse uducupa turimo amazi ya niri, bareba imbere yabo kandi inyuma yabo hari umubyeyi wambaye umupira w'umuhondo.

Abana bane baje ku mugezi, baje kuvoma, ijerekani bayiteze ku mugezi bashaka amazi.

Kwita ku buzima, abana, ababyeyi, abagabo, abasaza bari ku kigo nderabuzima bashaka serivisi z'ubuvuzi kugira ngo babungabunge amagara yabo.

Umugabo n'umugore we bazanye umwana mutoya kwa muganga kumuvurisha uburwayi bwe. Umuganga aricaye ari kuganira nabo.

Abantu baje kuvoma ku ku mugezi, bamwe bazanye amagare, bateze ijerekani kandi bari kuvomesha umubirikira.

Ikirango k'ikigo gishinzwe ubuzima ku isi, ikigo gifite inshingano yo kwita ku magara y'abatuye isi bose mu rwego rwo kugira ngo birinde indwara zimwe na zimwe z'ibyorezo.

Abayobozi bahagaze bifotoza bambaye neza, ku ruhande hashinze idarapo ry'u Rwanda, ririho ibara ry'ubururu, umuhondo n'icyatsi.

Umubyeyi ateraruye umwana we kandi umuganga amufashe ku matama ari kumusuka umuti kugira ngo akire uburwayi bwe.

Umuntu ari mu ifoto, ku mpande handitseho amagambo asobanura ko tugomba kujya mu nzira, tugashaka abafatanyabikorwa badufasha kugira ngo ubuzima bugende neza.

Ikirango cy'ikigo cy'umuryango w'abibumbye gishinzwe gutanga ibyo kurya ku bantu bari mu bibazo ku isi hose.

Ababyeyi batatu baricaye imbere yabo hari umuganga akaba ari gupima umurwayi umwe yamushyizeho igipimo gisuzuma uburyo ameze.

Abayobozi babiri bari gusuhuzanya hejuru yaho hari ishushoshya iriho amagambo agaragaza kwirinda icyorezo gikwirakwizwa n'ibiguruka.

Umugore afashe indobo irimo amazi akoresha yisukura, no neho abandi babiri bafashe ku cyuma bari kuganira barebana baganira ibyo kugira ubuzima bwiza.

Inama ivuga ku cyorezo cy'ubushita bw'inkende, abantu barateranye mu nama n'abayobozi bicaye imbere yabo, bari kuganira ku buryo iki cyorezo bagihashya bakagitsinda.

Umubyeyi ateruye umwana we, umuganga arikumumwaka kugira ngo amupime ibiro bye arebe ko umubyeyi amwitaho amuha indyo yuzuye, akareba ko ibiro by'umwana byiyongeye.

Ivuriro rito ryegereye abaturage urugo rwaryo rwubakishije senyenge, mu imbere hari umuntu ushinzwe kuharinda ku hangirika cyangwa hagira abahangiza.

Abantu benshi bateraniye ahantu hamwe bari kumwe umuyobozi, ari gusobanurira abo bantu ibyerekeye uburyo bwo kwita ku buzima no kurengera amagara kugirango ngo ubuzima bwacu bugende neza.

Inyubako yo ku ivuriro yisanzuye ni nini cyane, ifite aho abarwayi bakeneye serivisi zijyanye n'ibyo bitaro banyurira ndetse hari n'ikibuga giteye neza.

Abantu batatu ni ukuvuga abana babiri n'umuntu mukuru w'umukobwa yaje kuvoma amazi ateze ijerekani.

Abantu benshi baje kwa muganga gushaka serivisi zijyanye n'ubuzima. Umuganga yicaye imbere yabo yarambitse mudasobwa ku meza ari kwandikamo amakuru akenewe y' y'umurwayi.

Abana benshi bari koga mu mazi y'ikiyaga. Bamwe bari kugenda bayashibura cyane, abandi bibika munsi, bongera bagaruka hejuru.

Abayobozi bakomeye mu bijyanye n'ubuzima baricaye imbere yabo hari amacupa arimo amazi banywa hari umugore n'umugabo babayobozi bicaye hari n'umuntu umwe wundi wicaye imbere ye hari idarapo ry'u rwanda.

Ikigo gishinzwe amazi n'isukura mu Rwanda kimenyerewe nka WASAC gifite ikirango kikigaragaza ko gitanga amazi ku banyarwanda bose.

Abana benshi bari ku mugezi, abakobwa, abahungu, hari n'abakuze barimo nk'abagabo baje kuvoma ku mugezi bitwaje utuvido.

Ku ivuriro abakozi b'ibitaro bahagaze imbere y'ivuriro, bavugana ku buryo batanga serivise z'ubuzima neza ku babagana.

Umubyeyi yazanye umwana we kwa muganga. Aricaye umwana na we amuhagaze imbere, umuganga aramufashe, ari kumuvura amwitaho amuha ibyo akeneye.

Abajyanama b'ubuzima barahagaze bari kumwe n'abaganga baganira ku bijyanye no guha serivise nziza abarwayi babagana.

Umwana w'umukobwa ari ku mugezi, yateze ibiganza bye, ari gusukura intoki ze amazi agwa mu ibasi, ari kwirinda zimwe mu ndwara ziterwa no kugira umwanda.

Abatanga serivisi z'ubuvuzi kwa muganga, baricaye baramwenyuye, bari kureba imbere, bambaye impuzankano yabigenewe yo kwambara mu mwuga wabo w'ubuvuzi, imbere yabo hateretse uducupa dutandukanye turimo umuti.

Abayobozi bari mu nama yo ku rwego rw'isi ivuga ku buzima, baricaye batondekanye imbere yabo hari ibendera ry'u Rwanda.

Umuganga yambaye udupfukantoki tw'umukara turinda ibiganza bye, ari gukora ku miti imwe n'imwe yifashishwa atanga serivisi ku barwayi.

Ishusho iriho abantu umugabo n'umugore, umubyeyi uteruye umwana, abana bari hamwe babiri begeranye, hariho amagambo y'ikigo gishinzwe ubuzima ku rwego rw'isi.

Abakobwa n'abagore bateranye mu rwego rwo kuganira ku buryo bakwita ku buzima bwabo n'ubw'imiryango yabo kugira ngo bakomeze kubaho neza.

Umwana mutoya wambaye ishati y'ibara ritukura, ari ku mugezi amazi yayafunguye ari gukaraba intoki ze murwego rwo kugirango intoki ze azisukure yirinde indwara zimwe na zimwe.

Abantu benshi bicaye mu nyubako yo kwa muganga aho bari kugirwa inama zitandukanye zijyanye n'ubuzima, umuntu w'umugabo arahagaze afite ibyo agenda ababwira.

Abaturage bari mu nama umuyobozikazi abahagaze imbere; imbere ye hateretse amazi ya nili anywa iyo yumva ayakeneye; ari kubabwira ku bijyanye n'ubuzima n'uburyo bukwiye kwitabwaho.

Ishusho igaragaza imibare ku ijana ijyanye n'uburyo bwo gukemura ibibazo bijyanye n'ubuzima abarwayi baba bafite.

Abayobozi b'ikigo cyita ku buzima bw'abana no ku burenganzira bwabo ni bane bari kurebana, baganira ku buryo bakita ku buzima bw'umwana.

Inama mpuzamahanga ivuga ku buzima. Abayobozi batandukanye bicaye imbere, ndetse abandi bantu bateranye na bo baricaye, kugira ngo bumve inama zijyanye no kwita ku buzima.

Abantu benshi, abagore n'abagabo, barateranye, ab'imbere bafite ibipapuro bigaragaza yuko abantu dukwiye kwita ku buzima bwacu, tukaburinda kwangirika.

Abantu benshi batonze ku murongo, bamwe bambaye impuzankano ijyanishije, ni kuvuga imipira y'umweru, bari gushishikariza abantu kwita ku buzima bw'umubyeyi utwite.

Kwita ku buzima, abayobozi batandukanye barimo abagore n'abagabo bahuriye mu nama bavuga ku buryo batanga serivisi nziza zijyanye n'ubuzima ku babagana, bamwe baricaye, abandi bahagaze inyuma yabo no ku mpande.

Abantu bari mu nama imbere yabo hari abayobozi bari kubaganiriza, hari inyandiko yo mu magambo y'icyongereza agaragaza inama nkuru y'igihugu ivuga ku gushora imari mu buvuzi, guteza imbere ubuvuzi bwo mu gihugu.

Abana bambaye impuzankano yabo ibaranga, bari gufungura amazi yakandagira ukarabe bakayanywa kugira ngo ubuzima bwabo bubashe kugenda neza.

Abantu benshi baje ku mugezi bazanye ibikoresho bitandukanye amajerekani, amabasi, bari kuvoma amazi yo gukoresha mu gukora isuku yaba iy'imyambaro cyangwa ibikoresho byabo babashe kugira ubuzima buzira umuze.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibikoresho byinshi cyane, hari umuntu ubyegereye ugenda ubyitaho kugirango ngo bikomeze gukora neza. Ni inyubako ndende muntu areba akabona isa neza.

Abantu benshi bakoraniye ahantu ku kigo nderabuzima, harimo abakecuru, abasaza, abana. Aho hantu hari impodoka ndetse hamanitse ibendera ry'u Rwanda kandi babambye amahema.

Abantu bateraniye hamwe hari abagabo n'abagore bose bambaye udupira tw'umweru bari kwa muganga bari gukurikirana ibijyanye n'ubuzima.

Umwana ari kugerageza gufungura amazi, ni umugezi ucometse ku ndobo, ikaba iteretse ku ntebe.

Abana bato bambaye impuzankano bari ku mugezi bari kunywa amazi bakoresheje udukombe. Ikigega ni cyo amazi ari guturukamo.

Ni ku mugezi, umuntu ari gukaraba yarambuye ukuboko. Amazi ari kumumanukiraho hanyuma akoza ibiganza bye.

Abantu benshi bakoranye bari ku mugezi, baje kuvoma amazi, umwana umwe w'umuhungu ateze ijerekani ku mugezi.

Ni ku kigo nderabuzima abantu baje kwaka serivisi zijyanye n'ubuzima ndetse n'abana bari kumwe n'abakozi bo kwa muganga babitaho mu kureba ibibazo bafite no kubikemura.

Umuganga ari kwita ku mwana, umubyeyi yazanye arwaye. Imbere yabo har’undi mubyeyi waje kwivuza, hari n'abajyanama b'ubuzima babiri babaherekeje.

Umwana mutoya w'umukobwa, afashe igikombe, ari gutega amazi ku mugezi, amazi ari kumanuka agwa mu gikombe, uwo mwana ategereje ko cyuzura akayanywa.

Abana ni benshi, baregeranye, bari ku mugezi, hateretse ibase iri kujyamo amazi, bari gukaraba mu buryo bwo kwita ku isuku, kugira ngo ubuzima bugende neza.

Umwana mutoya ari gukaraba intoki ze afashe isabune, umuntu mukuru afashe igikombe ari kumusukira amazi ku ntoki kabashe kwisukura neza.

Umwana mutoya w'umukobwa. Afite agacupa, yambaye ikizibaho, arambuye amaboko ye, ari kuvoma amazi.

Abana bari gukaraba bita kwisuku bakaraba intoki zabo, bari ku mugezi amazi ari kumanuka abagwa ku biganza byabo bakisukura.

Abantu bari gutera ibihingwa mu busitani, bambaye imyambaro isa ndetse hari n'umupolisi uhahagaze ari kubareba.

Inama ivuga ku buzima n'ingamba zafatwa zo kubungabunga amagara y'abantu, abantu baje muri iyo nama kandi abayobozi batatu bahagaze imbere, bari kubaha inyigisho zivuga ku buzima.

Umubyeyi arahagaze afashe isuka mu maboko ye, kandi yikoreye igitebo kirimo ibijumba n'imijumberi.

Ibitaro bya Gisirikare. Inyubako imeze neza, yubatse neza, hari ibyapa birangira abarwayi baje kuhivuriza, aho bagomba guca n'aho bagomba gushakira serivise.

Ubuzima bwo mu mutwe abana benshi bambaye imyenda y'impuzankano bari hamwe, bamwe bazamuye amaboko.

Abana benshi barahagaze, bamwe bafite utuvido bagiye gushaka amazi, kandi bafite ikibazo cy'ubuzima bwo mu mutwe.

Abayobozi barahagaze, hari abagabo n'abagore. Iruhande rwaho hari igipapuro kiriho amagambo asobanura kubaka umuco w'amahoro, ikigo cy'ubutabera.

Ababyeyi babiri bari mu cyumba, bateruye abana babo, umuganga ari kubagira inama zijyanye n'uburyo bakwiye kwita ku bana babo kugira ngo bagire ubuzima bwiza.

Umugore ari kwita ku mugabo ufite ikibazo cy'ubuzima bwo mu mutwe kijyanye n'imitekerereze, uwo mugabo arunamye amaboko ye yayahuje ayakoza ku gahanga ke, umudamu ari kumureba.

Abantu bateranye ababyeyi abagabo bari gushaka serivisi z'ubuzima bwo mu mutwe, abaganga bari kubaganiriza.

Umukobwa afashe ku mutwe ari kureba hasi bigaragara ko afite ikibazo kijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe.

umubyeyi ari kuganira n'umukobwa kandi bari mu iteraniro rigizwe n'abantu b'ingeri zitandukanye bahagaze imbere yabo.

Umupira uriho amagambo agaragaza kwita ku buzima bwo mu mutwe bw'abarwayi, ni umupira wambarwa n'abaganga bita ku barwayi bafite icyo kibazo cy'ubuzima bujyanye n'umutwe.

Umugabo ufite uburwayi bwo mu mutwe arahagaze, yambaye imyenda y'ubucwabari, ntabwo yiyuhagira, ntabwo yisukura, imisatsi ye yabaye nabi.

Umuyobozi ukora muri serivisi zo kwa muganga yambaye neza, arahagaze ari kumwenyura kandi aherereye ku ivuriro.

Umubyeyi ateruye umwana we bari guseka, ari kumwitaho mu rwego rwo kugira ngo agire ubuzima bwiza bwo mu mutwe abe atagira ikibazo.

Abantu babiri begereye ururabo umugabo umwe yifashe nk'umuntu uri gusenga. Urwo rurabo rufite amabara atandukanye.

Umukobwa ufite ikibazo cyo mu mutwe aricaye ku ntebe, mu mutwe yiteze igitambaro, arikureba ku ruhande amaboko ye yayahuje.

Umukecuru ntabwo yambaye hejuru, yiteze agatambaro k'umweru mu mutwe kandi afite ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe.

Ibitaro bya carayesi ni ikigo gitanga ubuvuzi bujyanye n'ubuzima bwo mu mutwe ni inyubako yubatse neza kandi iriho ikirango hejuru kigaragaza serivisi batanga.

Amagambo agaragaza ku kwita ku buzima bwo mu mutwe bw'abana, ingimbi n'abangavu, kuko ari yo nshingano y'ikigo cy'igihugu cy'u Rwanda gishinzwe ubuzima.

Abana bafite ikibazo cy'ubuzima bwo mu mutwe bambaye imipira y'umuhondo. Kwita ku burwayi bwo mu mutwe ni ingenzi cyane kuko bituma umuntu abasha kugarura ubwenge no gutekereza neza.

umuganga ahagaze mu cyumba harimo n'abandi bafatanya mu kwita ku buzima bw'abarwayi, uwo muvuzi imbere ye hateretse mudasobwa muri icyo cyumba hamanitse igipapuro kiriho amagambo y'Ikinyarwanda agira ati "twite ku buzima bwo mu mutwe aho dukorera".

Ibijyanye n'ubuvuzi bwo mu mutwe, umugabo arahagaze ari gusuhuzanya n'umuntu ugaragara nk'ufite uburwayi bwo mu mutwe wambaye imyambaro ishaje kandi yacikaguritse.

Umuntu ufite ikibazo kijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe, arararamye, ari kureba hejuru, yegamiye urukuta, afite uburwayi, ni yo mpamvu ameze muri ubwo buryo.

Abantu barahagaze, b'ingeri zitandukanye, hari abayobozi, hari abaturage, hari umupolisi uhagaze hagati yabo.

Abana ni benshi bafite ibibazo bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe, bari kurira kandi bambaye imyambaro idafite isuku, bamwe bateze amaboko.

Umusore ufite ikibazo kijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe, aricaye, yambaye ubusa. Bigaragara yuko yangiritse bitewe n'icyo kibazo kijyanye n'ubuzima budahagaze neza.

Umuntu ufite ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe, aricaye yegamiye urukuta arigunze, yambaye imyenda y'ubushwambagure, afite ishashi irimo amazi mu ntoki n'uduti, yambaye urukweto rumwe, ukundi kuguru nta rukweto kwambaye.

Umukobwa ufite ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe yicaye ku musambi ukuguru kwe kuzirikishije umunyururu ku giti afite ikibazo kijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe.

Abaganga n'abajyanama b'ubuzima bari mu nama biga ku buzima bwo mu mutwe, bari kuganira kugira ngo barebe uburyo bajya bafasha abantu bafite ikibazo kijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe.

Abantu babiri bicaye ku ntebe, umugore n'umugabo, mugore afashe indangururamajwi mu ntoki ari kuyivugiramo, imbere ku meza hateretse agakapu, bari kuvuga ku byerekeye ubuzima bwo mu mutwe.

Abantu bateraniye mu nama, imbere yabo ku meza hateretse udukapu bazanye n'udupipiri banywereyemo amazi, umuyobozi ahagaze imbere yabo ari kubabwira kubi bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe.

Abantu benshi abana, abagore, abakecuru, abasaza, abagabo, baramwenyuye, bafite ibendera ry'u Rwanda rifite ibara ry'ubururu, umuhondo, n'icyatsi kibisi, bishimiye igikorwa cyo kwita ku buzima bwo mu mutwe.

Umubyeyi ahetse umwana mutoya ndetse afite n'umwana umuhagaze iruhande ukuze ariko adakuze cyane, uwo nguwo mu mama ashigeshe igikoma mu gasafuriya gateretse ku ziko, icyo ni cyo aha ibyo bibondo.

Kwita ku buzima bwo mu mutwe, abana bateranye benshi barishimye baramwenyuye, kubera ko ubuzima bwabo bwo mu mutwe bumeze neza.

Icyumba cyo kwa muganga cyesitayemo ibikoresho abaganga bifashisha bavura abarwayi babagannye kugira ngo barinde ubuzima bwabo kumererwa nabi.

abaganga bari kwita kubarwayi abarwayi bafite imipira y'icyatsi yanditseho ijambo tubiteho ni abaganga b'amenyo bari kubasuzuma ibibazo by'amenyo mu kanwa

Umunwa urabumbuye amenyo yose nkuko yakabaye aragaragara. Kwita ku buzima bw'amenyo.

Abana bari gukora isuku y'amenyo, bafashe uburoso mu ntoki babukojeje mu kanwa, mu kuboko kumwe bafite igikombe kirimo amazi bari kwifashisha. Kwita ku isuku y'amenyo birinda indwara zifata amenyo.

Umugore ari gukora isuku y'amenyo, afashe uburoso mu ntoki, yabushyize ku menyo, ari kuyoza neza, ngo agire amenyo meza kandi atarwaye.

Ikigo cy'u Rwanda gishinzwe ubuzima, abantu benshi bateranye baje kwisuzumisha indwara zo mu kanwa ku munsi mpuzamahanga wahariwe ubuzima bwo mu kanwa.

Kwita ku menyo, akanwa karabumbuye umuntu yagaragaje amenyo agize akanwa ke, mu rwego rwo kugira ngo bigishe abantu kwita ku isuku y'amenyo.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibikoresho bitandukanye harimo intebe, hakaba hamanitsemo isaha y'urushinge, hakaba harimo ibikoresho by'ikoranabuhanga bindi byifashishwa n'abaganga.

Umuganga afashe uburoso mu ntoki, ari kwereka umwana uburyo bwiza bwo kwita ku isuku y'amenyo, ukayarinda kwangirika.

Umurwayi ari mu cyumba cyo kwa muganga aho batangira serivise zo gukura amenyo, yaryamishijwe muganga ari kumukura iryinyo kuko ryangiritse.

Icyumba cyo ku ivuriro kirimo ibikoresho bitandukanye, harimo intebe, harimo mashine, mudasobwa, hakabamo ibikoresho byifashishwa mu gushyushya ibindi bikoresho, hesitaye neza kuko ari icyumba k'ingenzi gikenerwa.

Umuganga w'amenyo ari gukura umwana iryinyo. Uwo murwayi yabumbuye akanwa ke uwo muganga afite ibikoresho byifashishwa mu gukura iryinyo, ari kureba uburyo iryinyo rirwaye rimeze.

Umugabo yabumbuye umunwa we, yafashe agakoresho mu ntoki agashyira mu menyo ye, kwita ku isuku y'amenyo.

Abantu barahagaze abandi baricaye, ku meza harambitse umuti w'amenyo, umuyobozi umwe ari kubereka uburyo bakwita ku isuku y'amenyo.

Umuganga w'amenyo yicaye ku ntebe mu cyumba aho abarwayi bakeneye serivisi ijyanye n'amenyo bamusanga, hari aho umurwayi urwaye amenyo aba agomba kuba aryamye hari n'icyuma hejuru kimufotora kikareba ikibazo afite mu kanwa.

Umugabo yashyize umwenda we ku rutugu, mu ntoki ze afashe urudodo iminwa ye yayibumbuye ari guseka yagaragaje amenyo urwo rudodo yarukojeje ku menyo.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibikoresho muganga yifashisha asuzuma ndetse yita ku murwayi wamugannye, afite ikibazo cy'amenyo ashobora kuba ababara cyangwa aribwa n'iryinyo.

Umugabo ari guseka yabumbuye akanwa ke amenyo yayagaragaje, afashe urudodo yacishije mu menyo ye hagati.

Icyumba kinini cyane kirimo intebe eshatu, aho bakirira abarwayi baje kwa muganga bakeneye serivisi zijyanye n'amenyo.

Umuganga w'amenyo mu bushishozi n'ubuhanga bwe bwishi, ari kureba ibikoresho yifashisha mu gukura amenyo.

Ubuvuzi bw'amenyo, abantu babiri umwana n'umugabo bafashe urudodo runyura hagati y'amenyo yabo, bari kureba imbere.

Icyumba cyo kwa muganga aho bavurira amenyo, harimo ibikoresho bitandukanye bigiye ari iby'ikoranabuhanga, harimo intebe umurwayi yicaraho iyo aje kwivuza ikibazo cy'amenyo, hari n'ibikoresho umuganga yifashisha apima asuzuma umurwayi.

umusore ari guseka yabumbuye iminwa ye amenyo ye asa neza arererana kubera ko ayitaho ayakorera isuku kwita ku isuku y'amenyo ni byiza.

Umuntu ari mu cyumba yicaye ku ntebe, ari kwireba mu ndorerwamo, yabumbuye umunwa we, ari kwitegereza amenyo ye arebe uko ubuzima bujyanye n'amenyo ye bumeze.

Ibikoresho bitandukanye byifashishwa no kwa muganga bakura amenyo, birarambitse biri hamwe aho umuganga abasha kuba yabibona igihe agiye kwita ku murwayi ufite ikibazo cy'amenyo.

Icyumba cyo ku ivuriro aho bakurira amenyo. Hari igitanda aho umurwayi ugiye gukurwa iryinyo bamwereka aryama, hari n'ibindi bikoresho bitandukanye byifashishwa mu kuvura indwara z'amenyo.

Abana batoya bafashe udukombe turimo amazi bari koza amenyo yabo bajunditse amazi, ni mu rwego rwo kugira ngo bagire isuku y'amenyo biririnde indwara z'amenyo.

Icyumba cyo ku ivuriro aho muganga w'amenyo akorera, hari igitanda cyabugenewe aho umurwayi uje gukurwa amenyo aryama ndetse n'intebe umuganga umwitaho yicaraho.

Umurwayi yicaye ku ntebe yo kwa muganga afite ikibazo cy'amenyo muganga ahagaze imbere ye ari kumwitaho mu rwego rwo kugira ngo akire uburwayi bwe.

Umugabo afashe urudodo mu ntoki ari guseka yabumbuye umunwa we yagaragaje amenyo. Amenyo ye asa neza kuko yita ku isuku y'amenyo. Twite ku isuku y'amenyo.

Umusaza aricaye ku gatebe, ari kumwe n'abana babiri, umukobwa n'umuhungu, mu ntoki zabo bafashe ibintu bari kurya.

Umukecuru ari gukora siporo. Ni uburyo bwo kwita ku magara kw'abantu bakuze. Amaboko ye yayamanuye, inda yayizamuye ntabwo ikora hasi ,arikugorora ingingo ze.

Umugabo n'umwana we bari gukina. Umwana afashe umupira wo gukina mu ntoki, noneho umubyeyi we amuri inyuma, ari kugenda amwitaho, akina n'umwana we.

Kwita ku bakuze, ku bageze mu zabukuru, umusaza afashe inkoni aricaye, muganga ari kumuganiriza, bararebana, bose bariguseka.

Abakuze ababyeyi bakuze n'umukobwa n'abana baricaye, umugabo ateruye umwana bari kuganira ni byiza kwita ku bakuze.

Umubyeyi n'umwana we bari kumwe imisaya bayihuje bari kumwenyura uwo mubyeyi afashe inkoni mu ntoki ze.

Umusaza yicaye mu igare ryagenewe abafite ubumuga, ari kuganira n'umwana we mutoya bari guseka.

Umugabo ari kumwe n'umusaza bafatanye ku rutugu bari munzira, bari kugenda baganira barebana, ari kugenda amwitaho mu buryo bwo kwita ku bakuze.

Kwita ku bageze mu zabukuru, umusaza aramwenyuye imbere ye hari igisoro ari kugikina ari kugenda yimura an'imika inka mu rwego rwo kwishimisha.

Umusaza ari gukina igisoro. Aricaye amaboko ye arahinnye, afashe igikinisho akinisha igisoro, ari kugenda acuma, agenda yimura.

Kwita ku bakuze, umusaza ari kumwe n'umuganga, uwo muvuzi ari kumwitaho amuha imiti imwe n'imwe, kandi uwo murwayi afashe akarahure mu ntoki.

Umugore ari kwita ku musaza ugeze mu za bukuru, bari kureba kuri terefone ishusho, ku meza hateretse igikoresho, hari n'indi ntebe iteretse ku ruhande, bari kwitanaho.

Abasaza babiri bambaye imikenyero bari gukoma amashyi n'abantu benshi babaherekeje bari inyuma yabo ubona yuko bari mu kirori bishimye cyane.

Abantu batanu bari hamwe umukecuru, umusaza, umusore, umukobwa n'umwana wabo iruhande rwabo hari imodoka bari kumwenyura.

Abakecuru bambaye impuzankano y'ibara ry'umukara, bari kubyina bambaye udupfukamunwa, mu rwego rwo kwiyitaho nk'abantu bageze mu za bukuru, kwita ku bageze mu zabukuru.

Abakecuru bari kuganira baseka, umwe afashe akarahure mu ntoki, imbere ya bo hari imboga, urusenda, inyanya n'ibindi byifashishwa mu guteka.

Umusaza yicaye mu igare ry'abarwayi kuko afite ubumuga, hari umugore umusunitse muri iryo gare amwerekeje ku kigo gitanga ubuvuzi.

Kwita ku bakuze, umubyeyi ugeze mu zabukuru, ari kumwenyura yagaragaje amenyo afashe akantu mu ntoki ari gukora nka siporo.

Umuntu ukuze ari ku meza, ari gufata ifunguro afashe ikiyiko, rigizwe n'ibyo kurya bitandukanye harimo imboga, ibitera imbaraga n'ibirinda indwara, yabumbuye umunwa we bigaragara ko yishimye.

Umusaza arambuye ukuboko kwe mu ntoki afashe ikintu kimufasha kugira ngo ukuboko kwe kurambuke, muganga ari kugenda amugorora.

Abagore babiri bambaye imyenda ifite ibara ry'umukara, umwe yiteza agatambaro gatukura mu mutwe, bari kugenda baganira basa nk'abamwenyuye, bari kugenda bavuga ku bintu byubaka.

Umusaza ukuze arambuye amaboko ye afashe ibintu bibiri mu biganza bye, yambaye ekuteri mu matwi ye, yambaye umupira w'umweru ari kunanura ingingo ze.

Abantu baricaye abagabo n'abagore bafite gahunda barimo gutegura bafashe inkoni bamwe.

Kwita ku bakuze ni byiza cyane. Umukecuru n'umusaza, bari kuganira bishimye bamwenyuye, imbere yabo hari ibinini, bakoresha bivura.

Kwita ku bageze mu zabukuru, umukecuru wambaye umupira w'umukara yipfutse ku munwa, mu kuboko kwe afashe agakombe, afite umusatsi w'uruyenzi rw'imvi, abakuze bakwiye kwitabwaho.

Abaganga babiri barandase umusaza barikumwicaza ku gitanda cyabugenewe kwa muganga bari kumwitaho kugira asaze neza.

Umurwayi ugeze mu za bukuru aricaye, hari umuganga ushinzwe kumwitaho, muri icyo cyumba hari abandi bantu bicaye.

Umuganga afashe umusaza ari kumwitaho kugirango uwo mukambwe agire ubuzima bwiza.

Icyumba cyo kwa muganga, umuganga arikugira inama umurwayi uburyo akwiye kujya abigenza kugira ngo agire amagara mazima.

Umugabo n'umugore bafite amasahani barikurebana bagaseka, imbere yabo hateretse andi masahane ariho ibyo kurya.

Umuntu ari gukora siporo, yarambuye amaboko akayakoza ku kaguru, ukuguru kumwe yaguhinnye kandi ameze nk'umuntu ukuze.

Abakecuru babiri bari kumwe, ukuboko kumwe bakurebesheje imbere, ukundi kujya inyuma, bari kureba imbere yabo bishimye. Kwita ku bakuze ni ingenzi.

Abakuze ni ukuvuga umusaza n'umukecuru ndetse n'abandi bari inyuma benshi cyane, bari mu nama bakenyeye, baberewe, bari kwizihiza umunsi ujyanye no kwita ku bakuze, ku bageze mu zabukuru.

Umusaza ararembye ari mu cyumba cyo kwa muganga aho muganga amwitaho, hari icyuma gipima ubushyuhe afite

Abantu benshi bari kumwe bari kwita ku bakuze babaha udukapu, hano hari umubyeyi ari guha ugeze mu zabukuru igikapu cyo kujya yifashisha ashyiramo ibikoresho bye bimwe na bimwe.

Abantu bakuze baricaye bateranye, imbere yabo hari umuyobozi ufite ibyo ari kubaganirizaho, mu rwego rwo kugira ngo basaze neza bafite ubuzima bwiza.

Abantu babiri barahagaze ni umugabo n'umugore bafashe ibyapa biriho inyandiko, zigaragaza ingamba zo kwirinda indwara zimwe na zimwe mu buvuzi.

Ikigo cy'u Rwanda gishinzwe ubuzima, abantu bari mu nama, abayobozi batatu bari imbere yabo, bari kubaganiriza ku buzima bwo kwita ku barwayi babagana.

Umugore munini ufite amatama manini ari kwitegereza hejuru ndetse handitse amagambo asobanura ingaruka zibidukikije ku buzima bw'abantu.

Abagabo babiri bari gusuhuzanya bishimye mu biganza byabo bafashe ibitabo bivuga ku ngamba zo kurinda ubuzima no kubungabunga amagara yacu.

Abantu batandukanye bari gukora ibintu bitandukanye umwe ari gusukura umuharuro undi ari gukoresha mudasobwa, abandi bari kubaka abandi bari kwigisha.

Umuyobozi arahagaze ari kuvuga ku bijyanye n'ubuzima ni mu nama mpuzamahanga ivuga ku buzima n'uburyo umuntu yabwitaho.

Umunsi wo kwita ku buzima ku rwego rw'Isi. Icyorezo cya Covide cumi n'icyenda cyateye ingaruka zikomeye ku rwego rw'Isi, ni yo mpamvu hakwiye gufatwa ingamba zo kukirwanya, kikagenda burundu.

Amagambo agaragaza kurwanya virusi itera SIDA ku rwego rw'isi kugira ngo umuntu yirinde ubudahangarwa bw'umubiri we ko bwagabanuka.

Abatanga serivisi z'ubuvuzi abaganga barahagaze, bambaye ibirango byabo mu ijosi bigaragaza serivisi batanga zijyanye n'ubuzima no kubungabunga amagara y'abantu.

Ingamba zo kwita ku buzima. Ishusho igaragaza umunsi wizihijwe mpuzamahanga, muri bibiri na cumi na karindwi, umunsi wo kurwanya ikurwamo ry'inda.

Abantu bari kuvuga ku ngamba zo kwita ku buzima, bambaye neza bari mu nyubako yo kwa muganga aho bahererwa izo nyigisho zo kubungabunga ubuzima, amagara y'abantu.

Abakobwa barahagaze, bambaye impuzankano, bamwe bagiye bambaye isa n'irindi tsinda rifite impuzankano isa, bari guseka barishimye bari kuvuga ku ngamba zo kwita ku buzima.

Kwita ku buzima, ishusho igaragaza amagambo mu kinyarwanda asobanura, icyumweru cyahariwe indwara ya Diyabete, ni icyumweru cyagenewe kureba ububi bw'indwara ya Diyabete n'uburyo yakwirindwa.

Abantu babiri barahagaze umugabo, umugore bafashe ibyapa mu ntoki bigaragaza inama izaba ivuga ku buzima, ikaba izakorana umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo itatu.

Gufata ingamba zijyanye no kurinda ubuzima. Ishusho iriho amagambo agaragaza inama yabaye ku nshuro ya karindwi, inama yo ku rwego rw'isi ivuga ku buzima bw'abagore no ku ndwara ya kanseri.

Ifoto iriho amagambo yashyizweho n'ikigo gishinzwe ubuzima ku rwego rw'isi, hariho abantu ahari umubyeyi ateruye umwana we.

Ishusho igaragaza ku kwita ku buzima, hariho amagambo asobanura, dukwiye kwizera ko ubuzima bwacu bugomba kugenda neza mu gihe twabwitayeho.

Ishusho iriho amagambo asobanura gutegura ejo hazaza h'umuryango hariho umubare icumi imyaka icumi.

Raporo ku buryo bwo kurwanya icyorezo cya covid cumi n'icyenda, nk'uko ikigo gishinzwe ubuzima ku isi, kibishishikariza. Cyane cyane ku byerekeye muri Afurika.

Inzego z'ubuvuzi hari ubuvuzi bw'ibanze ubuvuzi bwisumbuye, n'ubuvuzi ku cyiciro cya gatatu. Muri izo nzego hakaba hakamo ibitaro by'intara, ibitaro by'Akarere ibigo nderabuzima ndetse n'ubuvuzi bw'ibanze.

Umubyeyi w'umuyobozi ahagaze imbere y'abantu baje kwa muganga, ari kubabwira ibijyanye n'uburyo barinda amagara yabo, ubuzima bwabo bukaba bwiza cyane, bakabaho neza.

Umuntu aryamye hasi akikijwe n'abaganga benshi bari kumwitaho bamuha ubuvuzi bwibanze bukenewe na we.

Inama ivuga ku buzima, ishusho igaragaza umwana kandi iriho amagambo asobanura isuku y'umurwayi kumenya kwita ku murwayi.

Ishusho iriho amagambo agaragaza gufatanya kurwanya virusi itera SIDA, bituma umubiri utaza ubudahangarwa bwawo.

Ingamba zo kwirinda indwara mu buzima bwacu bwa buri munsi ishusho igaragaza amagambo yo kwirinda indwara ya kanseri itubabaza iyo yatugezeho.

Ababyeyi bane bakikiye abana babo, umwe arikonsa umwana, undi arishimye cyane, bigaragara ko anezerewe uwo mwana, we undi ari gusimbiza urubyaro rwe.

Inyubako yo kwa muganga, icyumba kirimo ibitanda byinshi, abarwayi bahawe serivisi z'uko bagomba kwitabwaho bari kwa muganga, bararaho.

Inyubako yo kwa muganga yubatse mu bwoko bwa etage aho abarwayi bagana baje kureba serivisi zijyanye n'ubuzima kuko kwa muganga barasanasana iminsi ikicuma baratuvura tukaramba.

Inyubako yo ku ivuriro, imanitseho ibipapuro biriho amagambo atandukanye muri yo twavuga ubuzima bwiza, hari icyumba aho batangira imiti igihe umurwayi yayandikiwe na muganga.

Icyumba cyo ku ivuriro hari abarwayi baryamye ku bitanda, inzitiramibu ziramanitse, hari nabandi bicaye.

Muganga ari kurebana n'umwana amuvura amusuzuma, uwo mwana yicaye kandi hari n'undi muntu wicaye uri kubareba.

Abantu barahagaze, hari intebe ziticayeho abantu, umuntu uri ku igare yagannye abayobozi kugirango bamwiteho.

Ikigo kita ku burezi bw'abana, kuri icyo kigo hamanitse ibendera ry'u Rwanda, ni ikigo cyubatse neza kandi hari umwana w'umukobwa arimo asohoka mu muryango w'icyo kigo.

Icyumba cyo ku ivuriro gisukuye neza, harimo ameza, hakabamo intebe n'indabo, bigaragara ko ari ahantu heza abarwayi bicara baje gushaka serivisi zo kwa muganga.

Umuganga yambaye impuzankano ya kiganga, imbere ye hari umwana w'umukobwa, uwa muganga ari guseka, kubera ko ari kuganiriza uwo mwana ibijyanye n'ubuzima.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibikoresho bitandukanye, kirimo intebe, igitanda aho umurwayi uje kwivuza aryamaho bamusuzuma bumwe mu burwayi, cyesitayemo ibintu byinshi bitandukanye bifasha umurwayi kuvurwa n'umuganga gusuzuma umurwayi.

Inyubako y'ibitaro harimo amazu menshi atandukanye akorerwamo ubuvuzi, abantu benshi bagannye aho hantu bashaka serivisi zijyanye n'ubuvuzi, ku marembo hari umurinzi uharinda.

Ikigo cy'u Rwanda kivura uburwayi bwa kanseri. Ni inyubako ndende iriho ibyatsi bihakikije biteye neza, iriho ubusitani bwiza.

Icyumba cyo ku ivuriro aho abarwayi baba mu bitaro barara, harimo ibitanda byinshi bararaho n'aho babika ibikoresho byabo baba bazanye, ni icyumba cyagenewe abarwayi barara kwa muganga igihe kinini kugira ngo kibafashe kwitabwaho n'abaganga.

Ibitaro byubatse mu buryo bwa etaje ni ikigo kinini abantu benshi bari kuherekera bagiye gushaka serivisi zijyanye n'ubuzima.

Umurwayi yicaye mu cyumba cyo kwa muganga ku ntebe, umuganga afashe urushinge, ku maboko ye yambaye uturindantoki agiye kumutera urushinge.

Inyubako yo ku ivuriro aho bakirira abantu, hateye intebe abarwayi baje gushaka serivise zo ku ivuriro bicaraho, ni ndende kandi yubatse mu buryo bwiza.

Ikigo nderabuzima gifite inyubako nyinshi, ahatangirwa serivisi zinyuranye zijyanye n'ubuvuzi, hari abantu baganye icyo kigo kugira ngo babone serivisi z'ubuzima bwabo.

Icyumba cy'indembe, aho abarwayi barembye cyane bakirirwa byihuse, giheherereye mu bitaro.

Abantu bagannye ikigo nderabuzima, ndetse abayobozi bahagaze imbere yabo bari kuganira ku bintu runaka.

Icyumba cyisanzuye cyo kwa muganga cyubatse neza, giteyemo intebe abantu bagana ibitaro bicaraho n'abaganga mu gihe bari kwita kuri abo barwayi.

Kuri farumasi ya Murekatete Denise, hari icyapa kigaragaza nomero za terefoni wamuhamagaraho mu gihe ugannye iyo forumasi. Hari n'abaturage baje kuhashakira imiti, bafite ikibazo cy'uburwayi.

Ibitaro biherereye i kabgayi amarembo agana kuri ibyo bitaro muri ibyo bitaro hari umuntu uri ku igare hari n'abandi bantu baje gushaka serivisi zijyanye n'ubuzima hari n'ibimera bihateye bigiye bikikije inyubako zigize ibyo bitaro.

Inyubako yo kwa muganga itangirwamo serivise z'ubuvuzi hari aho umurwayi yicara, hari ibyuma by'ikoranabuhanga bifasha abaganga mu gusuzuma uwo murwayi.

Muganga ari kwita ku ruhinja ruryamye mu gatanda kabugenewe, uwo muganga ari kurebana urwo ruhinja ubwuzu, arwitaho aruha ubuvuzi bukenewe.

Ni mu cyumba cyo kwa muganga. Umurwayi aryamye ku gitanda. Umuganga ari kumwitaho, yamupfutse igitambaro. Hari n'abandi babiri, bahagaze ku ruhande.

Abaganga, bahagaze muburyo, bashatse bagaragaza ko, kuvura ari wo mwuga wabo, bitayeho cyane.

Icyumba cyo mu bitaro, hejuru kiriho ikirango kigaragaza ko ari ahakorerwa serivisi ijyanye no kubaga abarwayi.

Umuganga yicaye ku ntebe mu cyumba cyo ku ivuriro, muri iyo nyubako hari igitanda aho umurwayi aryama mu gihe bari kumuvura.

Icyumba cyo kwa muganga, umuganga arimo aratera intambwe yegera imbere muri iyo nyubako, harimo ibikoresho bitandukanye, hubatse neza hararimbishijwe nk'aho bita ku kumurwayi cyane.

Mu cyumba cyo kwa muganga hari abarwayi baryamye mu bitaro, hari n'amarido agiye akingirije abo barwayi n'abaganga benshi batandukanye barahari.

Ibitaro bya Kabgayi, icyo ni icyapa kiri ku marembo kigaragaza ibyo bitaro ibyo ari byo, mo imbere hari umuntu uri ku igare hari n'abandi bagiye gushaka serivise z'ubuvuzi.

Icyumba cy'abarwayi bo kwa muganga abarwayi bararyamye mu bitanda byabo, hari umuganga ugenda abitaho, hari n'umukozi ushinzwe kuhakora isuku kugira ngo habe hatunganyijwe neza.

Inyubako yo kwa muganga irimo ibikoresho byifashishwa mu buvuzi bavura abarwayi, harimo ibitanda byabugenewe abarwayi baryamaho bari kubavura indwara barwaye.

Igikoresho cyo kwa muganga aho umurwayi yicara akahahererwa imiti kugira ngo akire agire ubuzima bwiza.

Icyumba cyo kwa muganga cyabugenewe aricyo raboratwari irimo ibikoresho bitandukanye, ibikoresho by'ikoranabuhanga byesitaye mu buryo bwiza.

Ni kwa muganga, icyuma cyifashishwa n'abaganga mu gupima uburwayi bw'abarwayi bugiye butandukanye. Muri icyo cyumba harimo umuganga, afite ibyo ari gukora.

Ikigonderabuzima cyubatse neza kuri icyo kigonderabuzima hari abantu baje gushaka serivisi z'ubuzima, hari imbangukiragutabara y'ibitaro, hari imodoka y'umukozi ukora muri iki kigo.

Inyubako y'ibitaro, ku marembo harakinguye, hari inzira zabugenewe abantu banyuramo bareba serivisi zitandukanye zijyanye n'ubuvuzi, imodoka iraparitse imbere yaho, hagaragaza icyapa kigaragaza aho abakirira abantu babagannye.

Inyubako yo kwa muganga, ni ikigo kigizwe n'inyubako nyinshi abantu baje gushaka serivisi zijyanye n'ubuvuzi, ababyeyi babiri bahagaze mbere y'iyo nyubako n'abandi bantu bari hirya yabo.

Icyumba cyo kwa muganga cyubatse neza kirimo ibikoresho bitandukanye n'ibitanda, abarwayi barwariye kwa muganga bararaho kugira ngo abaganga babashe kujya babitaho bari hafi yabo.

Icyumba cyo ku ivuriro kirimo ibikoresho raboratwari kirimo ibitanda, aho umurwayi urwaye aryama bari kumusuzuma zimwe mu ndwara kugira ngo babashe kumwitaho.

Inyubako y'ikigo Nyafurika gishinzwe kuvura indwara zandura z'abantu ndetse n'iz'inyamaswa, kuri icyo kigo hari ibimera bihakikije.

Ibikoresho byifashishwa mu buvuzi biri mu cyumba cyabugenewe cyo ku ivuriro, aho bikoreshwa n'abaganga bazi kubikoresha babifitiyeho ubumenyi bwihariye.

Inyubako nini yo mu bitaro, hari inzira aho umurwayi anyura agana mu bitaro cyangwa ataha, igihe amaze guhabwa serivisi zo kwa muganga.

Umuganga ari kwerekera umwana uburyo bita ku isuku y'amenyo n'uburyo ari ingenzi ku kwita ku isuku y'amenyo, inyuma yabo bari kumwe n'abantu batatu.

Icyumba cyo kwa muganga basuzumiramo uburwayi bw'amaso ku bantu bafite imyaka mirongo itandatu kuzamura ndetse no ku bana bari munsi y'imyaka cumi n'ibiri.

Inyubako ndende yo kwa muganga ariko ikorerwamo ubushakashatsi irakinguye hari intebe aho abantu bayikoreramo bicara .

Inyubako yo ku bitaro hari umuhanda ugana ku bitaro uhura n'utuyira dutandukanye abarwayi banyuramo bagiye gushaka serivisi zijyanye n'ubuvuzi zitandukanye.

Ku bitaro bya Butaro, hakoraniye abantu harimo abazungu ndetse n'Abanyarwanda, hari ikirango kigaragaza y'uko ari ikigo cyita ku buzima kiri i Butaro, hari amagambo yanditse Repubulika y'u Rwanda.

Inyubako yo ku ivuriro haje abarwayi batandukanye gushaka serivisi zijyanye n'ubuzima haparitse imodoka.

Icyumba cyo kwa muganga kesitayemo ibikoresho bitandukanye, harimo mudasobwa, hakabamo n'intebe umuntu yicaraho, harimo kamera, harimo n'inyerekanamashusho televiziyo.

Inyubako yo mu bitaro, icyumba cyihariye aho basuzumira umurwayi, harimo ibikoresho by'ikoranabuhanga byabugenewe mu gusuzuma abarwayi bagannye ibyo bitaro, harimo na mudasobwa

Abayobozi batatu bari muri sare babiri bari gukoresha mudasobwa, umwe yerekeje ukuboko kwe ku magambo yanditse agaragaza ikigo cy'u Rwanda gishinzwe ubuzima, gishishikariza abantu kurwanya no kurandura indwara ya malariya.

Icyumba cyo kwa muganga aho abaforomo bakorera, baganira ku buryo bita ku buzima bw'abarwayi babagana.

Inzu y'ababyeyi yo kwa muganga. Abaganga bane barahagaze ndetse bafite n'ikarita ibaranga mu kazi kabo, bambaye udupfukamunwa.

Icyumba cyo ku ivuriro kirimo ikoranabuhanga ryesitaye ryifashishwa n'abaganga kuvura no kwita ku barwayi babagana.

Umurwayi aricaye, umuganga ari kumwitaho amufashe ukuboko, ari gushyiraho igipimo ngo arebe uko ubuzima bwe buhagaze.

Umurwayi ararembye aryamye ku gitanda cyabugenewe kwa muganga, hari abantu bari kumwitaho b'abaganga kugira ngo babungabunge ubuzima bwe agire ubuzima buzira umuze.

Icyumba cyo kwa muganga kinini, hari ibitanda byinshi aho abarwayi baryama n'imisego bisegura, hari igikoresho cyabugenewe aho babika ibikoresho byabo.

Inyubako nini irimo ibikoresho bitandukanye, harimo za raboratwari, harimo ibyumba ndetse harimo n'ibikoresho byinshi byifashishwa mu kuvura abarwayi, ni ahantu hanini hisanzuye cyane, ku buryo hakakira abantu benshi.

Icyumba cyo kwa muganga. Abaganga bari gukora isuzuma muri laboratwari kugira ngo bafate ibipimo runaka.

Umurwayi yicaye ku ntebe mu cyumba cyo kwa muganga, umuganga yambaye agapfukamunwa, ari kumushyira igipimo ku kuboko kugira ngo arebe ubushyuhe afite.

Umuganga ari mu cyumba cyo kwa muganga afashe agacupa karimo umuti ari gusoma ku cyuma cy'ikoranabuhanga amabwiriza ajyanye n'uwo muti.

Icyumba cyo ku ivuriro kirimo igitanda n'intebe, aho umurwayi ukeneye serivisi yicara. Harimo amashusho agaragaza abantu bafite ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe.

Inyubako yo kwa muganga, ndende, irimo ibitanda, hamanitsemo n'amarido, hamwe hakaba hari utwumba abakeneye serivise ku baganga babasanga.

Icyumba cyo mu bitaro aho hari imiti itandukanye kandi abarwayi barahagana baje kureba imiti bandikiwe n'abaganga kubera indwara baba babasuzumye n'imiti ikenewe kugira ngo babashe gukira.

Umugabo aryamye kwa muganga yambaye agapfukamunwa bamuteye salomo kubera ko ubuzima bwe bukomerewe cyane.

Umuganga yambaye imyenda yabugenewe ku mpande ze hari indobo ebyiri ari kwa muganga ahetse icyuma cyifashishwa mu gutera umuti.

Inyubako y'ibitaro iriho icyapa kigaragaza aho abantu bakura service bashaka nk'aho ababyeyi babyarira icyumba cy'abagore, imbarwa, n'aho bavurira indembe.

Icyumba cyo kwa muganga cyubatse neza, kirimo intebe aho umurwayi yicara mu gihe ategereje umuganga umufasha, harimo n'ibindi bikoresho byifashishwa.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibitanda byinshi, harimo inzitiramibu zimanitse, zifashishwa mu rwego rwo kurinda abarwayi ko barwara indwara iturutse ku mibu, nka malariya.

Ibitaro byo kwa muganga hari abantu baje gushaka serivisi z'ubuzima, umugabo ahagaze ku rubaraza naho ababyeyi babiri umwe ateruye umwana, bari kwinjira mo imbere bashake serivisi kandi bahure n'umuganga.

Inyubako y'ibitaro aho bavurira abarwayi, hari umukobwa uhahagaze wubatse neza cyane hasa neza.

Imyicundago aho abana bumvira iminyenga bakicunda. Ni ibyuma byabugenewe bicundaho biherereye kwa muganga.

Ni kwa muganga harimo ibikoresho bitandukanye hari abarwayi baryamye ku bitanda, hari abaganga bambaye impuzankano nziza irimo amabara y'umweru n'amabara y'ubururu harimo n'intebe nziza.

Ikigo nderabuzima gifite ibyumba bitandukanye na saro nini, aho abarwayi bakigana babasha kuba bari kandi batabyigana.

Inyubako yo kwa muganga. Icyumba kirimo ibitanda, aho abarwayi barara mu gihe barwariye kwa muganga, hari n'akameza barambikaho ibikoresho byabo. Hubatse neza, hameze neza.

Ikigo gikora ubushakashatsi mu bijyanye n'ubuvuzi n'imiti, icyo kigo cyubatse neza cyubatse mu buryo bwa etaje, kuri icyo kigo hari imodoka abayobozi bakora kuri icyo kigo bazamo.

Inyubako y'ibitaro bya kanombe yubatse neza umuryango urakinguye imbere y'uwo muryango hejuru hamanitse igipapuro kigaragaza ko ari aho batangira imiti.

Ikigo cyitwa isange one stop center cyakira abantu bakorewe ihohoterwa rishingiye ku gitsina.

Icyumba cyo kwa muganga hari intebe nyinshi, abarwayi baricaye bategereje ko umuganga aza kubaha serivisi zijyanye n'ubuvuzi bakeneye.

Icyumba kirimo imiti yo kwa muganga, aho bahera umurwayi wese wayandikiwe iyo akeneye, kugira ngo ayinywe kandi agire amagara mazima n'ubuzima buzira umuze.

Icyumba cyo kwa muganga cyo raboratwari irimo ibikoresho bitandukanye, abaganga bifashisha mu gihe bari kuvura abarwayi babitaho babaha serivisi zijyanye n'ubuvuzi.

Icyumba cyo ku ivuriro, hari ibikoresho bitandukanye, harimo mudasobwa yifashishwa mu kubika amakuru y'umurwayi.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibikoresho bitandukanye kirimo: ibitanda abarwayi baje gushaka serivisi zo kwa muganga baryamaho, n'ibindi bikoresho byifashishwa mu buvuzi.

Ikigo nderabuzima cya Nyarurenzi ni inyubako yo mu bwoko bw'itaje, harimo abantu benshi baje gushaka serivisi zijyanye n'ubuvuzi hari n'abandi bari hasi.

Inyubako y'ibitaro hari abantu benshi n'ikinyabiziga aricyo imodoka ku nyubako y'ibyo bitaro, hamanitse igipapuro kiriho amagambo agaragaza ko ari icy'umweru cyahariwe kwita ku buzima bw'umubyeyi n'ubw'umwana.

Ikigonderabuzima cya kigina hubatse neza ku marembo harakinguye, hari umubyeyi uhetse umwana uri kugenda amukomanga kandi ari kureba kuri icyo kigonderabuzima.

Inyubako y'ivuriro rya karayesi, ivuriro ritanga ubuvuzi bw'abafite uburwayi bwo mu mutwe.

Umubyeyi ateruye mwana we ari kumureba ndetse umuganga ari kumwitaho amufashe ukuboko.

Icyumba kirimo ibikoresho bitandukanye by'ikoranabuhanga raboratwari yo ku ivuriro rikoreshwa mu kubika imiti neza ndetse ikanifashishwa mu bikorwa bitandukanye.

Inzu iba kwa muganga aho bavurira ababyeyi n'impinja zifite ikibazo cy'uburwayi bakabitaho mu rwego rwo gutanga serivise zinoze zijyanye n'ubuvuzi.

Inyubako yo kwa muganga, hariho icyapa kigaragaza serivise zitangirwa aho hantu, handitse ngo muhawe ikaze mu isuzumiro.

Icyumba cyo kwa muganga, hari igitanda aho umurwayi aryama, mu gihe bari kumusuzuma uburwayi bwe, hejuru hesitayemo kamera zibasha kumupima zikareba uburwayi afite.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibikoresho bitandukanye by'ikoranabuhanga, harimo ibikoresho bibasha gutanga umwuka mwiza, harimo ibyuma byesitaye ku buryo bifasha umuganga n'umurwayi kubona serivise nziza.

Umuntu afashe ijage ari gusuka amazi mu gakombe yifashisha, kugira ngo ubuzima bwe bugende neza.

Umuntu araryamye ku gitanda cyo kwa muganga, arambuye ukuguru kumwe, ukundi kumeze nk'uguhinnye. Abaganga bahagaze imbere ye, bari kumwitaho.

Agasanduku karafunguye karimo ibikoresho byifashishwa kwa muganga hari umukasi harimo n'utundi dukarito tugiye turimo imiti yifashishwa.

Abantu abagore abagabo bari hamwe bari gukora siporo, barambuye amaboko yabo bakora uwo mukino.

Udusanduku dutukura turimo ibikoresho abashinzwe gutanga ubuvuzi bw'ibanze bakorera umuryango ushinzwe gutabara imbabare baba bitwaje bo baricaye.

Umukobwa wambaye ikanzu ifite ibara ritukura, ari kunywa amazi, mu matwi ye yambaye utwumvo tumenyerewe nka ekuteri, amaze gukora siporo.

Umugabo amaze gukora siporo afashe amazi arimo kuyanywa araramye, kunywa amazi ni ingenzi ku mibiri yacu.

Umuntu ari gukora siporo, arasa nk'uwicaye yarambuye ukuguru kwe, ukuboko kwe yakurambuye agufatisha urukweto, ari gukora siporo ngororamubiri.

Umugore ari gukora siporo, yazamuye amaboko ye yombi, ari kuyananura, yicaye ku gitanda, arashaka kugira amagara mazima.

Umugabo avuye muri siporo. Arararamye, ari kureba hejuru, yafashe icupa rye ry'amazi ari kuyanywa kugira ngo yumve amerewe neza kandi ubuzima bwe buguwe neza.

Umuntu araryamye mu gitanda cyo kwa muganga arambuye ukuguru ukundi yaguhinnye, abaganga bari kumwitaho kugira ngo ngo ubuzima bwe bumere neza.

Ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu buvuzi, biri mu gikapu, hari impakasi, udukarito, uducupa tugiye turimo imiti yifashishwa.

Umuntu w'umusore ari gukora siporo ukuguru kumwe yakurambitse hasi ukundi kurahinnye yaguteretse hejuru y'igikoresho.

Umuntu ari gukora siporo, hari undi umuhagaze imbere umufasha kurambura ingingo afashe ibintu bibiri mu ntoki bituma amaboko ye arambuka kandi akomera.

Ibizingo bine bya bande bizingo bitatu, biteretse hamwe ikindi kizingo cya bande gitereretse ukwacyo, hari ukuboko kurambuye kuziritseho bande, bigaragara yuko ari bande umuntu yizirika igihe afite aho yavunitse.

Umuntu ari gukora siporo yateruye aitere, ari kugenda azamura amaboko yongera ayagarura mu rwego rwo kugira ngo umubiri we ubashe gukomera.

Umukinnyi yagize ikibazo cyo gukomereka ari mu kibuga, mu gihe yari ari gukina umupira, umuganga yaje kumwitaho, ari kumukanda aho yavunitse ku ivi kugira ngo amuvure asubire gukina.

Umuntu afashe ijage mu ntoki ze irimo amazi, ari kuyasuka mu kandi gakombe gatoya.

Umuntu yahinnye inkokora afashe ku kuboko kwe ahafatishije igipfuko kuko aharwaye arababara cyane.

Umusore umaze gukora siporo arararamye afashe icupa rye ririmo amazi ari kunywa kugirango umubiri we ubashe kubona amazi anawusukure.

Icyumba cyo ku ivuriro, abaganga bari kwita ku mwana, umwana araryamye, na bo bari kumuha serivise imugomba.

Uducupa dutatu turimo umuti turiho amagambo asobanura "hagarara kuribwa." Bivuze ko turimo umuti ubasha kuvura umuntu uburwayi n'uburibwe afite bigahita bihagarara.

Umugore arararamye yazamuye ukuboko kwe, ari kunywa amazi, yambaye isengeri.

Umugabo ari gukora siporo yahinnye umugongo arambuye amaboko kandi amavi ye arahinnye ari kugorora umubiri we agire ubuzima bwiza.

Abakinnyi bari mu kibuga, bari gukina umukino wo mu rwego, rwa siporo no kugorora ingingo zabo, bambaye impuzankano isa.

Umusore ari gukora siporo, yarambuye ukuboko kwe n'ukuguru kwe arakuzamura, ukuboko kwe agukoza ku kuguru, ukundi kuguru kurahagaze ari kugorora ingingo ze mu rwego rwo kwirinda indwara zimwe na zimwe ziterwa no kudakora siporo.

Ni kwa muganga, umubyeyi afashe umwana ku mutwe, naho umuganga ari kumusuzuma yamutunze igikoresho yifashisha apima abarwayi, mu gahanga.

Umukobwa ari gukora siporo ngororamubiri kugira ngo agire amagara mazima, yahinnye ukuguru agufatisha ukuboko kumwe, naho ukundi kuboko yakurambuye akwerekeje imbere.

Umuntu arahagaze ku ivi rye hari ibikomere bigaragaza ko yakomeretse ari gukora siporo.

Umuntu ari gukora siporo, yambaye isengeri, amaboko ye yayazamuye arayahuje, afite ekuteri mu matwi ye.

Umuntu ari gukora siporo arambuye amaboko akayakoza ku kaguru ukundi kuguru kwe kurahinnye kandi yicaye hasi.

Umurwayi bamufashe mu maboko, ararwaye, ararembye, umufashe ni umuntu utanga serivisi zo kwa muganga, yita ku barwayi.

Umuvuzi afashe umwana ku mutwe mu biganza bye afashe igikoresho cy'ikoranabuhanga gisuzuma, ari kureba ikibazo cy'uburwayi yaba afite ari kumwitaho muri ubwo buryo.

Mu cyumba cyo ku ivuriro umwana aricaye, umuganga yambaye agapfukamunwa, amufashe ku mutwe ari kumusuzuma umwana yabumbuye akanwa ke, ari kureba ibibazo afite mu kanwa.

Umuntu ari gukora siporo, aricaye ukuguru kumwe yaguhinnye ukundi yakurambuye amaboko ye yayarambuye ayafatisha ku rukweto rwe, umugongo we yawuhinnye, imbere ye hateretse agacupa kaba karimo amazi.

Umuntu aryamye ku gitanda cyo ku ivuriro akikijwe n'abaganga babiri umuganga ari kumukora ku maguru ye agenda amumasa mu rwego rwo kugororura ingingo ze ngo agire ubuzima bwiza.

Ibikapu bibiri bifite ibara ritukura, kimwe kirafunze ikindi kirabumbuye kirimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu gukora siporo no mu bindi bintu.

Umugore ari gukora siporo yahinnye ukuguru kumwe, yazamuye amaboko ye yombi, ukuguru kumwe yakurambuye ariko kureba inyuma.

Umuntu ari kunywa amazi yambaye umupira w'ubururu ameze nk'uraramye.

Umuganga ari kwita ku murwayi uryamye ku gitanda cyo ku ivuriro, muri icyo cyumba hari ibikoresho bitandukanye umuganga yifashisha amwitaho.

Ibikoresho bitandukanye birateretse harimo; ishinge hari ibinini, ikiyiko kiriho imiti yifashishwa mu kuvura indwara.

Ifoto iriho abantu benshi bafite udutabo bari gusoma, kandi hahagaze n'umuganga, afite ibyo ari kureba.

Umukobwa ari gukora siporo, urwego rwo kwirinda indwara ziterwa no kutayikora. Arambuye amaboko ye ayerekeje hejuru, arayahuza, kandi ari kureba imbere, ahagaze, yemye.

Ibitaro, umuntu ahagaze ku rwego, undi ari kumufasha, afashe umufuka ufite ibara ritukura mu ntoki, bari kwesitara bimwe mu byuma bizajya byifashishwa muri serivisi zo ku ivuriro.

Umusore ari gukora siporo mu rwego rwo kwirinda indwara zimwe na zimwe ziterwa no kudakora siporo ngororangingo, ukuguru kumwe guhagaze hasi ukundi yakuzamuye hejuru agufatisha ku biti, ndetse amaboko ye ararambuye afashe ukuguru kwe kumwe.

Umusaza yicaye ku ntebe yabugenewe, umuganga aramufashe ari kumwitaho kugira ngo abungabunge amagara ye abe mazima.

Abantu babiri, umwe arahagaze ari gukora siporo, undi aricaye ari kunywa amazi, mbere yabo hateretse ibikapu byabo, batwaramo ibikoresho.

Igipimo kwa muganga bifashisha bapima umuriro umurwayi afite kugira ngo barebe uburyo ubushyuhe afite mu mubiri buhagaze.

Umurwayi aryamye ku gitanda cyabugenewe ku ivuriro, umuganga aramufashe, ari kugenda amukorakora aho yavunitse, kuko afite ikibazo mu ivi.

Abantu babiri bateruye umurwayi urembye, abafashe ku rutugu bo bambaye amajaketi atukura. Asa nkurembye cyane bagana ku kigonderabuzima.

Ishusho igaragaza uburyo umuntu abasha gukora siporo. Umuntu umwe arahagaze amaboko yayarambuye, undi asa n'uciye bugufi ari kugenda yizengurutsa azunguza amaboko undi yahinnye ukuguru kwe.

Ibyo kurya by'amoko atandukanye biri ku masahani n'amasahani abiri n'agatiri gateretse ukwako ku isahani hariho amagi, amashaza ku yindi sahani hariho inkeri, imineke n'ibindi biribwa.

Abantu bari gukora siporo umwe arahagaze yazamuye amaboko, undi gukora siporo yo kwiruka, undi aricaye ateruye icyuma mu kuboko kwe abandi babiri bari gukina umupira w'amaguru.

Umuntu ari gukora siporo mu rwego rwo kwirinda uburwayi bumwe buterwa no kudakora siporo. Ukuboko kumwe yaguhinnye ukundi akuramburira kuri uko guhinnye agorora ingingo ze.

Umuntu ari gukora siporo ngororangingo, ukuboko kwe yakuzamuye agukoza mu mugongo we, ukundi gufata inkokora.

Umukobwa ufite ikibazo cy'uburwayi wakomeretse ku kaguru yashyizeho igipfuko yahawe n'abaganga, mu rwego rwo kurinda umubiri we ububabare kandi agamije gukira.

Gutera inshinge abarwayi, mu buryo bwo kubakingira ibyorezo n'indwara zimwe na zimwe kugira ngo bagire ubuzima bwiza kandi buzira umuze, ni ingirakamaro kubona inkingo zikingira zimwe mu ndwara.

Umuntu araryamye yarambuye ukuguru kwe, umuganga ari kumwitaho agenda amukorakora mu rwego rwo kurambura ingingo ze z'umubiri kugira ngo zirinde kumugara.

Umurwayi ararembye aryamye ku gitanda cyo kwa muganga, umuganga amufashe ku kuguru arimo ku kugorora neza kugirango agire amagara mazima.

Repubulika y' u Rwanda, ibitaro bya gisirikare, ishusho iriho amagambo agaragaza indwara ibitaro bya gisirikare bivura abarwayi babagana.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo intebe, kikabamo aho umurwayi yicara habugenewe, mu gihe umuganga ari kumwitaho amuvura.

Umuntu ari gukora siporo aryamye, iruhande rwe akikijwe n'ibikoresho biri muri icyo cyumba ari gukoreramo kandi hari n'undi muntu.

Akamashini abaganga bifashisha bapima umurwayi ngo barebe umuriro afite kugira ngo babone ibyo baheraho bamuha serivisi zijyanye n'ubuvuzi.

Umukobwa ari gukora siporo ukuboko kwe yagushyize ku mugongo arunamye, ukundi kuboko gufashe ku kuguru ari kugorora ingingo ze kugira ngo amagara ye abe mazima.

Umuntu arunamye ari gukora siporo mu rwego rwo kugira ngo agire ubuzima bwiza, amaboko ye afashe ku mavi , ari kureba hasi.

Ni mu cyumba cyo kwa muganga abaganga bari kureba ku cyuma kibereka amashusho agaragaza uburyo umurwayi amerewe.

Abana benshi, abakobwa n'abahungu, bari mu kibuga, ni mu rwego rwo gukora siporo kugira ngo imibiri yabo, ingingo zabo zirambuke, bagire amagara mazima.

Umuntu uri muri siporo asa nkupfukamye yifashe kw'ivi rye ari kugorora ingingo.

Umuntu ari gukora siporo, amaboko ye yayazamuye arayahuza ndetse ayashyira inyuma ku mutwe we, ari kureba imbere ye.

Siporo abantu babiri bari gukora siporo umwe afashe umupira bita balo undi afashe ku kuma kugira ngo bakine.

Burankari batwaraho umurwayi mu gihe agize ikibazo cyangwa se mu gihe ari umukinnyi uvunikiye mu kibuga bityo akitabwaho n'abaganga.

Umuganga ari kwandika, imbere ye hari udukoresho dutandukanye yifashisha, hari na metero yifashisha apima, hari isaha irebwaho igihe aho kigeze.

Umugore ari gukora siporo aryamye yubamye, umugongo uri hasi, Inda ireba hejuru, ukuguru kumwe yaguhinnye afata kw'ivi, ukundi yakurambuye.

Ikimera gifite udushami dutandukanye, kandi dusa n'ibara ry'icyatsi kibisi twifashishwa mu kuvura indwara mu buryo gakondo.

Ikimera gifite ibara ry'icyatsi kibisi, gifite ibibabi binini, gikorwamo umuti wifashishwa mu kuvura uburwayi mu buryo gakondo.

Ikimera gifite ibibabi bitoshye, bagitotoraho ibyo bibabi bakabyifashisha bakora umuti wo kwivura mu buvuzi gakondo kugira ngo amagara yacu agende neza.

Uducupa twinshi dutandukanye tumwe ni tureture utundi ni tugufiya. Twose turatondekanyije kandi turimo imiti yifashishwa mu kuvura uburwayi mu buryo bwa gakondo.

Ubuvuzi bwa gakondo, agacupa karateretse, iruhande rwako hari imiti itandukanye, yifashishwa mu buvuzi gakondo.

Udukombe dutandatu turateretse turimo imiti ivura yifashishwa mu buvuzi gakondo bavura abarwayi.

Imiravumba iri mu murima; muri uwo murima hari n'ibindi bimera; byifashishwa n'abantu bakoramo imiti ivura indwara mu buryo gakondo.

Agacupa k'umweru, kometseho igipapuro kiriho amagambo agaragaza uburyo umuti urimo bawukoresha. Bawukoresha bivura uburwayi mu buryo bwa gakondo.

Uducupa dutatu turatondetse, turimo umuti. Hari agasahani karimo utubuto. Hari n'agakombe karimo ibyatsi biriho utubuto. Ni imiti yifashishwa n'abantu bakora imiti yo kwivura mu buryo gakondo.

Umubyeyi, ari gutotora, ibibabi ku kimera, yifashisha mu kuvura indwara.

Abantu babiri begereye ikimera bari kugishakaho ibibabi bifashisha mu gukora umuti mu rwego rwo kwivura mu buryo bwa gakondo.

Ibimera bifite ibara ry'icyatsi kibisi biri mu murima, ibyo babikuraho umuti wifashishwa kuvura indwara mu buryo gakondo.

Icupa ririmo umuti wifashishwa mu buvuzi gakondo, wometseho igipapuro gifite amagambo asobanura ubwisanzure, hora wisanzuye ufite amagara meza nta burwayi.

Uducupa tureture turateretse, hari agakarito, hari n'akandi, utwo twose tukaba turimo imiti yifashishwa kuvura indwara mu buryo gakondo.

Agacupa karekare karimo umuti kanditseho ijambo shampo karateretse uwo umuti wifashishwa mu kuvura indwara mu buryo bwa gakondo.

Imiti yifashishwa mu kuvura indwara mu buryo bwa gakondo iri ku kiyiko kirambitse kugira ngo umurwayi uyikenera abashe kuyihabwa.

Uducupa turateretse tumwe ni tureture utundi ni tugufiya, turimo imiti itandukanye yifashishwa mu kuvura indwara mu buryo gakondo.

Imiti yifashishwa mu kuvura indwara mu buryo gakondo itandukanye, imwe ifite ibara ry'umukara, indi ifite ibara ritukura, indi ifite ibara ry'umweru, hari n'agakarito karimo indi miti yifashishwa kuvura abarwayi mu buryo bwa gakondo.

Udukoresho dutandukanye turambitse ku musambi. Umuntu arimo gusekura umuti yifashisha yivura mu buryo gakondo, hari amasahani ariho ibindi bimera yifashisha mu gukora uwo muti.

Ishusho iriho udukoresho dutandukanye n'utubuto twifashisha mu kuvura indwara mu buryo bw'ubuvuzi gakondo kugira ngo umurwayi abashe kugira ubuzima bwiza buzira umuze.

Agacupa karekare gapfundikiye karateretse karimo umuti wifashishwa mu kuvura indwara mu buryo gakondo.

Imbuto zitandukanye zifashishwa mu kwivura, hari indimu, irongi n'utundi tuntu bifashisha mu kwivura indwara mu buryo gakondo.

Ubuvuzi gakondo uducupa turateretse hari n'udukarito, hari n'inanasi n'imiti yifashishwa mu buvuzi gakondo.

Akavido karimo umuti wifashishwa mu buvuzi gakondo, kuri iyo shusho munsi yaho hariho amagambo asobanura uburyo uwo muti ukoreshwa n'umuntu uwuhawe.

Ikimera gifite amababi manini ni ishami rimwe, ayo mababi agasa n'ibara ry'icyatsi kibisi giteye mu murima gikurwaho umuti wifashishwa mu kuvura indwara mu buryo gakondo.

Ibyatsi n'udutebo turimo ibihingwa by'amoko atandukanye byifashishwa mu gukora imiti, kuvura indwara mu buryo gakondo, hari n'umuzani uriho ibishyimbo.

Amacupa n'udukombe, ateretse mu gikoresho cyabugenewe, arimo imiti itandukanye yifashishwa mu kuvura indwara mu buryo gakondo.

Ikimera gifite udushami tugiye turiho utubabi duto duto, duto cyane, aho bakura umuti bifashisha mu kuvura indwara mu buryo gakondo.

Agacupa karekare karimo umuti wifashishwa mu buvuzi gakondo bavura abarwayi barwaye indwara zitandukanye.

Uducupa ndetse n'udukombe turimo imiti itandukanye yifashishwa n'abarwayi bashaka gukira mu buvuzi gakondo.

Uducupa, utureture, utugufiya dufite amabara atandukanye, turimo imiti gakondo yifashishwa mu kuvura uburwayi bidasabye kugana ku ivuriro.

Ibimera, indabo, bitandukanye byifashishwa n' imiti itondekanyije muri etajeri, ifasha kuvura uburwayi mu buryo gakondo.

Ikimera gifite amashami gifite ibibabi by'icyatsi kibisi, cyifashishwa gikurwaho umuti wo kuvura abarwayi barwaye indwara zitandukanye.

Agacupa karimo umuti wifashishwa mu kuvura indwara mu buryo gakondo kariho amabwiriza y'uburyo uwo muti ukoreshwa.

Udutebo twinshi duteretse hasi ndetse hari n'ibintu byinshi bihateretse bitandukanye kandi harimo n'uduti twinshi.

Igiti gifite amashami afite ibibabi bitoshye ndetse gifite n'uturabyo n'ubwerezwa, gikurwaho imiti yifashisha kuvura abantu mu buryo gakondo.

Udukombe tubiri turateretse, kamwe karimo ibyatsi byifashishwa mu kuvura abarwayi mu buryo bwa gakondo.

Amoko y'ibimera bitandukanye hari n'ikimera cy'indimu, hari umuravumba n'ibindi byatsi byifashishwa bakora umuti wo kwivura.

Udukarito dutatu turimo imiti itandukanye, yifashishwa n'abarwayi bivura indwara mu buryo gakondo kugira ngo bagire amagara meza n'ubuzima buzira umuze.

Imiti myinshi yifashishwa mu kuvura indwara mu buryo gakondo, hari uducupa hari udupaki twose turimo imiti ivura abarwayi.

Akabido karimo umuti wifashishwa kuvura abarwayi, iruhande rw'ako kabido hari amagambo yanditseho agaragaza uburyo uwo muti ukoreshwa n'umuntu wese ushaka kuwukoresha.

Kwivura mu buryo gakondo: Agacupa karateretse, karimo umuti wifashishwa mu gusukura intoki, aho basuka ku ntoki maze umuntu agahuza ibiganza bye, agakaraba.

Igiti kiri mu murima gifite udushami tureture, gifite ibara risa n'umweru, cyifashishwa n'abantu bagikuraho umuti bakawivurisha mu buryo gakondo.

Ikimera kiri mu butaka gifite udushami tugiye dufite ibibabi byinshi bifite ibara ry'icyatsi kibisi, ibyo bibabi biratotorwa umuntu akabyifashisha akora umuti wo kwivura mu buryo gakondo.

Ibikoresho byifashishwa n'agasekuru, umuvuzi gakondo asekuriramo ibintu byose avanga kugira ngo abone umuti wo kwivura wa gakondo.

Ubuvuzi gakondo agacupa kagaragaza amashusho atandukanye karateretse imbere karimo umuti wifashishwa.

Ikimera giteye gifite utubabi twinshi hejuru n'utundi tubiri tubanza, agati kacyo ni karekare kifashishwa mu kuvura indwara mu buvuzi gakondo.

Umuntu yarambuye ibiganza, afashe umuti uvura uburwayi mu buryo gakondo.

Ikimera cy'umuravumba, giteye mu murima, gifite ibibabi by'ibara ry'icyatsi kibisi, kifashishwa mu kuvura indwara mu buryo bwa gakondo.

Ibimera bitandukanye bimwe bifite ibara ry'icyatsi kibisi biri mu muririma ibyo bimera bakaba bikuraho imiti yifashishwa kuvura indwara mu buryo gakondo.

Ikimera gifite ibara ry'icyatsi kibisi n'ishami rirerire, cyifashishwa abantu bakora umuti wo kwivura uburwayi mu buryo gakondo.

Igiti kinini gifite amashami menshi n'ibibabi byinshi, hari n'ibindi bimera n'indabo, abantu babyifashisha bakora imiti ivura mu buryo gakondo.

Ni murima umuntu ari gutotora ibibabi n'ibyatsi yifashisha akora umuti mu buryo gakondo, kugira ngo yivure indwara cyangwa avure abandi bose bamugana bashaka kuri uwo muti.

Ni mu gasozi abantu bagiye gushaka ibimera bakoramo umuti wifashishwa mu kuvura indwara mu buryo gakondo, hari ibimera bitandukanye bigiye bifite amabara asa n'icyatsi kibisi.

Uducupa tubiri tureture duteretse ku meza. Hari n'udusate dutatu twifashishwa mu kuvura uburwayi mu buryo gakondo.

Umubyeyi ari gushaka imiti yo kwivura. Ari kuyitegereza ku kimera, agatotora ibibabi. Mu kuboko kwe afashe agakapu ke.

Ikimera giteye ku butaka ndetse gifite ibibabi bitoshye ndetse gifite n'indabyo zigifasheho.

Ishusho igaragaza ibimera bigiye bifite amababi manini, hejuru hariho amagambo y'icyongereza asobanura "umunsi mpuzamahanga wahariwe ubuvuzi gakondo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kabiri."

Umuntu afashe uduti. Turambitse mu gakombe yateguye. Kimwe gifiteho umumero. Hirya hateretse utudobo tubiri, akadobo kamwe karambitse mu kandi. Ibi byifashishwa mu gukora umuti mu buryo bwo kwivura gakondo.

Ikimera gifite amababi menshi atagaranye. Ayo mababi arifashishwa n'abaganga gakondo, bayakoramo imiti yo kwivura indwara.

Udutebo duteretse mu buryo bugiye butandukanye. Hari umunzani wa kizungu uhari. Hari n'ibihingwa binyuranye.

Ikimera kiri mu murima gifite ibibabi biteye nk'ibyamashu, gifite n'uturabo twagiye tuzaho, gikoreshwa bakora umuti mu buryo bwo kwivura gakondo.

Udupaki dutatu turimo imiti gakondo turiho ibishushanyo n'amagambo agaragaza uburyo uwo muti ukoreshwa mu kwivura indwara mu buryo gakondo.

Ikimera gifite ibibabi by'ibara ry'icyatsi kibisi, gikorwamo umuti mu kuvura indwara mu buryo bwa gakondo.

Icupa ririmo ubuki bw'umwimerere, kuri iryo cupa hometseho igipapuro n'ubundi kigaragaza ko ari ubuki bukomoka ku nzuki, bwifashishwa mu kuvura indwara mu buryo bwa gakondo.

Ikimera gifite udushami tureture, dufite ibibabi binini kandi bifite ibara ry'icyatsi kibisi. kikaba kifashishwa mu gukurwamo umuti uvura abantu mu buryo gakondo.

Uducupa tubiri tureture, turateretse, utundi dutoya, kamwe kari iburyo akandi kari ibumoso, ubwo bucupa bwose, burimo umuti wifashishwa kuvura indwara mu buvuzi gakondo.

Imiti yifashishwa mu kuvura uburwayi gakondo, hari ibyatsi byateguwe, bimwe birambitse mu gikombe, hari indabo ziri mu gakombe, hari ibiyiko birambitseho utunini, hari uducupa tune turimo umuti wifashishwa.